Abagore batatu umwe ufite indobo mu ntoki uri kuvoma amazi, abandi babiri bahagaze inyuma, bari kumanura, bazamura kugira ngo amazi abashe gusohoka.

Umugore uri koza umwana intoki, umwana na we arahagaze mu bigaragara bari gukora isuku, isuku ni isoko y'ubuzima, uyu mugore akaba yambaye n'agapfukamunwa.

Abantu babiri bambaye udupfukamunwa, umwe ari kumukingira urukingo ku kaboko gusa ubona ko ari gushinyiriza cyane, afite imisatsi izinze ndetse bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru.

Abantu batandukanye, inyuma ndabona umugabo umwe, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, bafite ibitabo ndetse n'amakaramu, umugabo uri ku ruhande afite telefone arimo ararebamo, bisa naho ateze amatwi uwo muntu uri imbere.

Abantu benshi batandukanye, harimo abicaye, harimo abahagaze bisa naho hari icyo baje gukora aho hari serivisi baje kuhaka.

Aha haragaragara agacupa k'umuti bifashisha bavura umurwayi, hari n'inshinge zitandukanye na zo zifashishwa mu kuvoma uyu muti igihe bagiye kuwutera umurwayi urwaye.

Abana benshi baje ku ivomero ubona ko bamwe bahagaze hakurya, imbere ndahabona umwana ufite utujerekani tubiri mu ntoki, undi mwana w'umukobwa arunamye ateze akabido ke ku mazi kugira ngo ajyemo.

Umwana wunamye kuri robine y'amazi. Ari kunywera amazi mu biganza bye, inyuma ye hari abantu. Munsi hari ijambo ryanditseho unisefu.

Abantu benshi batandukanye higanjemo abana bafashe ibyapa babimanitse, hirya yabo hari icyapa kiri kuhagaragara.

Abana umwe, babiri, batatu ubona ko bose bari koga intoki kandi babyishimiye, inyuma yabo bari igiti kirekire ndetse n'imbuga ngari, iruhande rwabo hari urukuta rurerure.

Abana bane, bishimye cyane, bose bateze intoki, hari umugabo ufite igikombe kirimo amazi uri kubafasha gukaraba, munsi yabo hari ibasi.

Umwana wicaye asutaraye, ari gukaraba mu ntoki, iruhande rwe hari amajerekani, imwe isa ubururu, andi abiri asa umuhondo, hakurya ye hari ibyatsi n'ibiti birebire.

Umukobwa w'umuzungu uri gufotora umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ubururu n'ingofero y'ubururu, uri gukorera umwana ijerekani ipfundikije umukanana.

Umwana wambaye umupira wubururu urimo uturongo tw’umukara afite isabune mu ntoki arimo arakaraba undi muntu arimo arasukira amazi ku ntoki kugirango arusheho gukaraba neza.

Aha ubona ko ari mu kigo cy'amashuri, umwana uri imbere ya robine uri gukaraba intoki, iruhande rwe hari indobo nayo isa naho ijugunywamo imyanda.

Abantu benshi harimo abambaye udupfukamunwa ndetse n'abatatwambaye bicaye ku ntebe, ubona ko bisa naho ari kwa muganga baje, baje guhabwa ubuvuzi bw'indwara barwaye.

Icyapa cyanditseho umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, handitseho amagambo yo mu cyongereza avuga ngo Africa health care, hari n'andi magambo munsi agiye avuga ku bijyanye n'iyi nsanganyamatsiko.

Umuganga uri gukingira umwana ku kaboko, ubona ko aho hantu hari n'abandi benshi nabo bategereje gukingirwa, muganga yambaye impuzankano y'akazi, umwana ari gukingira na yambaye ishati y'ubururu

Abantu bari mu cyumba cy'inama batandukanye, bicaye ku ntebe abandi bari imbere na bo basa n'abayobozi bakuru, iruhande rwabo hari mudasobwa iriho umuntu na we uri gutanga ikiganiro binyuze mu ikoranabuhanga.

Ahantu bisa naho bavomera amazi yo gukoresha, abana ndetse n'umugabo umwe uri kubafasha kuvoma hari amadomoro atandukanye hirya yabo hari ibyatsi.

Abantu bari mu cyumba, ubonako bari kubyina imbyino ya Kinyarwanda, bateze amaboko hejuru. Inyuma yabo hari intebe z'umweru n'igikuta gisa umuhondo.

Abantu bicaye munsi y'ihema, ndabonamo n'umupolisi wambaye impuzankano y'akazi, imbere hagaze umugabo ufashe indangururamajwi mu ntoki, bisa naho hari ijambo ari kubahagezaho.

Umwana w'umusore wambaye ishati ya gisirikare n'ipantaro y'umutuku ari kunywa amazi akoresheje ibiganza bye bibiri munsi ye hari indobo nayo irimo amazi hirya hari ibyatsi.

Abantu benshi batandukanye, ubona ko bafashe ibyapa mu ntoki zabo, handitseho amagambo agiye atandukanye, hirya yabo hari ibiti ndetse n'inyubako.

Abantu batandukanye bicaye ahantu mu cyumba, ku ntebe ziri mu ibara ry'umweru, hari n'umugore wegamiye ameza asa naho hari ibyo ari kubabwira. Afite n'impapuro mu ntoki.

Abana babiri bafunguye amazi bari kuvomera mu ndobo cyangwa se ibindi bikoresho byifashishwa, hirya yabo hari ibiti ndetse aya mazi arasa neza cyane.

Abana batatu ubona ko bari gukaraba, mu biganza bya bo hari isabune kandi ubona ko babyishimiye cyane, bambaye amashati y'umuhondo n'amajipo y'ubururu, ku mashati ya bo hariho amakola y'ubururu.

Aha hari robine zivomerwaho amazi, umwana washyizeho ibiganza ku mazi uri kunyweraho, munsi ye hari indobo mbonako ariyo yaje kuvomeramo ayo mazi. Hirya ye hari inzu ndetse n'ibiti.

Abantu benshi batandukanye. Harimo abambaye amataburiya ari mu ibara ry'umweru harimo abagabo ,harimo abagore, inyuma ya hari icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo nyabageni otarishi andi mani sikiriningi yashushanyijeho n'abantu.

Umwana w'umukobwa ubona ko yishimye cyane, ari gukaraba mu intoki, iruhande rwe hakaba hari amarido, imwe iri mu ibara ry'ubururu, andi abiri ari mu mabara y'umuhondo.

Aha bisa naho ari kwa muganga, abagore babiri bafite imashini bambaye n'udupfukamunwa, imbere yabo hari umugore nawe wambaye agapfukamuwa n'ikote ry'umukara, bisa naho ari kumubaza ibibazo kugira ngo abe yagana aho ari buhererwe ubufasha.

Abantu bahagaze hafi yaho bavomera amazi bateretse amabido yabo ku murongo, barimo baravomesha ikindi hirya yabo hari ibiti.

Umuganga usa n'uri gupima umubyeyi utwite, akaba yashyizeho igikoresho gipima uko umubyeyi ahagaze, iruhande rwe hahagaze undi mu mama asa naho yaje amuherekeje.

Abaganga bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu bambaye n'udupfukamunwa, umwe afite igikoresho mu ntoki ari gupima umusaza wicaye ku ntebe amupima mu kanwa.

Abantu benshi batandukanye bambaye amatabuririya yo mu ibara ry'umweru bambaye n'amabaji agaragaza icyo bakora, inyuma yabo hari ibiti aba bantu bisa naho ari abaganga

Umusore ndetse n'umugore wambaye impuzankano y'akazi, afite telefone mu ntoki n'ikayi ari kwandikamo, hejuru yabo hari icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo Sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Abagabo babiri bahanye imikono, bambaye amakote ubona ko bakeye, umwe afite ibitabo mu ntoki, bisa n'aho baje kwiga ku ndwara ya Marburg cyangwa se icyorezo cyitwa Marburg.

Abana umwe, babiri, batatu, bane bahagaze hafi y'aho bavomera, umwe ari kuvoma avomera mu ibido ifite ibara ry'umuhondo, hirya yaho hari ibyatsi byinshi, impande yabo hari akandi kabido gatoya.

Abantu batandukanye bari ku ivome babiri muri bo bafashe indobo y'amazi bari kuvomeramo, iyo ndobo ikaba iri mu ibara ry'ubururu, amazi ni ingenzi mu buzima bwacu.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe, bafite ibipapuro bisa n'aho hari ibyo bari kwandika kuko bafite n'amakaramu. Abandi bateze amatwi, harimo n'izindi ntebe ziriho ubusa.

Umwana ubona ko akiri mutoya, imbere ye hateretse amajerekani abiri n'indi ya gatatu ari kuvomeramo amazi. Aha akaba ari hamwe abaturage baza bagana igihe bakeneye amazi.

Abantu benshi batandukanye bahagaze, umugabo umwe wicaye ufite impapuro mu ntoki, abo bandi bamuhagaze iruhande kandi benshi muri bo bambaye imyambaro y'umweru hejuru.

Aha nkuko bigaragara ni mu kigo cy'amashuri ubona ko umunyeshuri wambaye impuzankano iranga iryo shuri, ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, munsi hari ibase itangira amazi igihe ari kumanuka iruhande rwe hari igiti kirekire.

Abantu bari mu cyumba, ubona ko imbere yabo hari umugabo uri kubaganiriza, hirya yabo hari igikapu, gifite imishumi kimanitse ku gikuta, mu bigaragara ari kubabaganiriza ku ngingo ijyanye n'iby'ubuganga cyangwa se n'ubuzima.

Umwana uri gukaraba intoki ari gukarabira mu ibase isa umukara, uwo mwana yambaye ishati y'umutuku, ijipo y'umutuku, akaba ari gukaraba kandi abyishimiye. Isuku ni nziza iturange twese.

Umugabo wambaye umupira uri mu ibara rya oranje, ari guhana ikiganza n'umwana mutoya ubona ko bishimye, hirya hari abandi bana benshi nabo bicaye, inyuma hari undi mudamu uhagaze wambaye umupira w'umweru, hirya yaho hari ibiti.

Umuganga wambaye uturindantoki ndetse n'impuzankano, afite urushinge ari gukingira umwana, uwo mwana akaba afashwe n'umubyeyi we nk'uko bigaragara aha ni kwa muganga.

Umukobwa wicaye yunamye ari kuvoma amazi mu ibido, inyuma ye hari imyenda yanitse ku mugozi, hirya ye hari inzu ndetse n'igiti kirekire.

Abantu benshi batandukanye bahagaze imbere y'igorofa igeretse harimo abambaye imipira ndabonamo abagore n'abakobwa ndetse n'abagabo n'abasore.

Ahantu bavomera amazi ndahabona umugore uri gufasha umwana kuvoma, ndabona hirya ye hari n'abantu benshi, inyuma yabo hari ibyatsi birimo insina ndetse n'urugo rwubakishijwe imiyenzi.

Umwana ufite akajerekani mu ntoki, akaba afashe robine irekura amazi, yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, hirya ye hari umugore na we wambaye umupira w'umuhondo witeze n'igitambaro.

Abantu batatu, bari ku kagezi k'amazi, babiri bafite amabido ari mu ibara ry'umuhondo bari kuvoma, inyuma yabo cyangwa se hejuru hahagaze umudamu wambaye umupira wa oranje hirya yabo hari ibiti.

Abantu benshi batandukanye, bambaye imipira y'umweru, harimo abagabo ndetse hakabamo n'abagore, inyuma yabo hari icyapa cya RBC kirimo n'ibara ry'umutuku ndetse n'ibishushanyo by'abantu.

Umugabo umwe wambaye ishati y'ubururu ndetse n'abagore babiri, bose bafashe umufuka, iruhande rwabo hari n'indi mifuka myinshi itandukanye, bisa naho bari kuyegeranya bayishyira hamwe.

Abana babiri bari kuvoma ahantu mu kidendezi, amazi ubona ko adasa neza cyane kandi adafate isuku. Inyuma yabo hari ibyatsi.

Abana batandukanye, ubona ko bari kuri robine ifunguye, bari kunywa amazi bakoresheje ibiganza, harimo abambaye ishati y'icyatsi.

Abantu benshi batandukanye ubona ko bari mu cyumba cy'inama, harimo abirabura, harimo abazungu, basa n'abahanze amaso imbere hari ibyo bari kureba cyangwa se hari umuntu uri kubabwira ku ngingo runaka.

Abantu benshi batandukanye bamwe bambaye ingofero, ndi kubonamo n'umuzungu umwe n'undi inyuma, bafite icyapa cya arabisi, cyanditseho amagambo avuga ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Abana benshi batandukanye bambaye imipira iri mu mabara y'ubururu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru yanditseho ngo UNICEF, ikigo cyita ku buzima bw'abana hanashushanyijeho akazeru karimo umwana w'umuntu mukuru ndetse n'umwana.

Abantu benshi batandukanye biganjemo ab'igitsina gore, harimo abadamu batatu bambaye amajiri ari mw’ibara ry'icyatsi cyijimye.

Abantu benshi batandukanye bahagaze, abagabo bitewe n'abagore harimo abambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, hejuru yabo hari amagambo yanditse avuga ngo pale de conferance.

Abantu benshi batandukanye, ubabona ko harimo abagabo n'abagore, hejuru yabo handitseho amagambo avuga ngo, uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Ibara ry'umuhondo inyenyeri iri mu ibara ry'umweru ndetse n'irindi bara ry'umukara bikaba bikoze ikinyampande cya mpande enye.

Icyumba kirimo abantu benshi hagati hari umugabo ubahagaze imbere abandi bo baricaye, bisa naho ari kubaha ubutumwa cyangwa se ari kubabwira imbwirwaruhame ku ngingo runaka.

Abantu benshi bishimye cyane harimo abagore ndetse n'abagabo bagaragara ku gice cy'inyuma, abagore benshi bambaye amajire ari mu ibara ry'icyatsi kijimye.

Igikoresho cyifashishwa mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka, ukoreshwa ku barwayi dukunze kwita Oxygen mu ndimi z'amahanga, kiri mu ibara ry'ubururu ndetse hari n'ibindi bikoresho.

Umugore wicaye ku gitanda, muganga ari kumushyira icyuma gipima ku kaboko kugira yumve uko umubiri we uhagaze, umuganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'amarinete n'imisatsi y'umukara miremire iziritse.

Abantu benshi basa n'abari mu nama, umugore ubahagaze imbere wambaye ikote ry'umukara n'ikanzu y'umweru, asa n'aho ari kubabwira ijambo cyangwa se imbwirwaruhame mu nama barimo, abo bantu bose baricaye.

Umugore ufashe ibido ari kuvoma amazi y'umugende, undi musore umuhagaze iruhande na we uri koza igare, hirya hari ibyatsi bitandukanye.

Aha ni ku ivomero ubona ko hari abantu babiri bose batezeho amajerekani bari kuvoma. Hirya yabo hari ibiti birebire ndetse abo bantu harimo uwiteze n'igitambaro mu mutwe.

Abantu benshi batandukanye bicaye ahantu mu cyumba, bafite amakayi mu ntoki ubona ko bareba imbere, basa n'aho bateze amatwi ibiri kuvugirwa aho ngaho n'ubwo hari umuntu utagaragara imbere.

Umusore wambaye amarinete bitewe n'umusatsi ari gukinisha umwana bigaragare ko uwo mwana afashwe na nyina cyangwa se umubyeyi aha bikaba bigaragara ko hari n'abandi bantu benshi bafite abana bisa nkaho baje kubakingiza.

Abantu benshi batandukanye, harimo abasore, harimo abakobwa, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo ''Nyabageni outreach and mass screening''.

Abana b'abakobwa bakiri bato, bisa naho umwe ari gukorera undi indobo irimo amazi bamaze kuvoma. Iruhande rwabo hari inzu isakaje ibyatsi ndetse hakurya hari n'ishyamba ry'ibiti.

Abantu batandukanye bambaye ingofero z'umweru bafunze ibipfunsi bombi, bambaye imipira irimo ibara ry'ubururu inyuma yaho hari icyapa.

Abantu benshi batandukanye higanjemo abana bakiri bato bambaye amashati ari mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari abandi bantu bahagaze harimo abazungu n'abirabura, bose bamanitse ibiganza byabo ubona ko bishimye cyane.

Abana benshi batandukanye ubona ko bari kuri robine bose bari gukaraba intoki, ubona kandi ko babyishimiye cyane basa naho babitojwe ko ari umuco mwiza.

Abantu batandukanye harimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, bicaye mu cyumba ubona ko gisa n'icyumba cy'inama. Bicaye ku ntebe z'umukara, wagira ngo hari ibyo bari kwiga.

Igikoresho cyifashishwa bapompa amazi, umugore ufite indobo mu ntoki ari kuvoma kuri ayo mazi, abandi babiri bahagaze barimo barazamura bamanura kugira ngo amazi abashe gusohoka.

Abantu benshi batandukanye, bari ahantu bamwe baricaye, abandi barahagaze, hari n'undi uri guha umwana ikinini, bigaragare ko ari kumukingira inzoka. Cyane cyane, izo mu nda.

Aantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe nziza cyane. Abari hino harimo umugabo umwe wambaye rinete ufite mudasobwa imbere, ameza aba ari hagati hariho igitambaro kiri mu ibara ry'umweru.

Aha hari abantu benshi bahateraniye baratandukanye, hari uyu mugabo uri kuri telefone wambaye baji, hari ihema riri hirya, hari inyubako iri hirya ndetse n'icyapa, hari n'ipoto ririho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bisa naho hari icyo baje gukora aho hantu.

Abana umwe, babiri n'undi wa gatatu uri ku ruhande, umwe amanitse akaboko hejuru, bisa naho bari mu ishuri, begamiye ameza imbere yabo.

Abantu benshi batandukanye bose barahagaze, iruhande rwabo epfo hari idarapo y'gihugu cy'u Rwanda inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo kiriho ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Aha ni ku ivomero, ubona ko umwana ateze ikabido ku ruhombo kugira ngo babashe kuvomerwa, umugabo na we ari gusunika icyuma kugira ngo amazi abashe gusohoka. Hirya hari ibiti ndetse n'ibindi bimera.

Abantu ubona ko ari benshi cyane, ubona ko baje kwisuzumisha indwara kuko aha ndahabona umuganga wambaye agapfukamuwa arimo arakingira abana. Muri make ni urukingo ruri guhabwa abana batoya.

Umugore uhagaze imbere y'abantu, abo bantu bakaba bicaye mu ihema afite mikoro cyangwa se indangururamajwi afite n'ikayi mu ntoki bisa naho ari gusoma ibyo ari kubabwira, yambaye ni'taburiya y'umweru, afite imisatsi miremire y'umukara.

Umusore wunamye ufite isabune mu ntoki urimo uroga, munsi ye hari indobo ndetse ku ruhande ye hari umwana ufashe agasorori, urimo aramufasha mu gikorwa cyo koga.

Ikidendezi cy'amazi ubona ko kiriho ikiraro cyubakishijwe n'ibyuma, aha abantu bakaba bakunda kuza kuhasura, hirya yaho hari ibiti bitandukanye ndetse n'ikirere kigaragara mu ibara ry'umweru.

Abaganga batatu bose bambaye udupfukamunwa gusa umwe we yambaye agapfukanwa k'umukara, babiri muri bo bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, uwo hagati yambaye iri mu ibara ry'umweru, bafashe udukarito bateruye mu ntoki.

Icyumba kimwe mu byumba byo mu bitaro, umuganga uri kwita ku mwana amufashe akaboko ndetse n'undi mugore nawe we bari gufatanya, umubyeyi we ari aho hafi, iruhande rwe hari isorori y'umutuku ubona ko uwo mwana aryamye ku gitanda.

Umuntu uri gukaraba mu ntoki akoresheje robine ubona ko ari mu gikorwa cy'isuku kuko nk'uko tubizi isuku ni igikorwa cyiza, biraturinda kandi bikarinda n'ubuzima bwacu.

Abana batandukanye bicaye hasi, hari n'abandidi bantu bicaye ku ntebe hirya ku gikuta, hari ameza hirya ateretseho ibikoresho bisa naho bari kuganirizwa ku bintu bitandukanye, hari n'umubyeyi wambaye rinete ubicaye hagati.

Abantu benshi batandukanye, bamwe bambaye imipira y'umweru, urababona ko bicaye bahanze amaso imbere, ndabona hari umuntu uri imbere nubwo atagaragara, hari ibyo ari kubabwira.

Abana babiri, umwe afashe igikombe, ari gusukira undi amazi ku ntoki, arimo aroza intoki. Bambaye amashati y'umutuku, umwe yarishimye, arimo araseka. Munsi yaho hari amagambo yanditse, avuga ngo "Washi bajeti burifu".

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'umugabo na we wambaye agapfukamunwa, wambaye n'umwenda wanditseho RBC, umuganga akaba ari gukingira uyu mugabo indwara runaka, yambaye n'uturindantoki mu biganza bye.

Umugore ufite uruhu rwera rukunze kwita umuzungu, yambaye umupira by'asa umwe ndetse n'isaha afite indangururamajwi yifashe mu gatuza asa naho ari kuvuga ijambo, inyuma ye hari icyapa cy' ibishushanyo bitandukanye.

Umuganga uri gusuzuma uko umwana ameze ubona ko arembye cyane, umubyeyi umufashe mu biganza byombi bibiri, muganga akaba yambaye impuzankano y'umweru, akaba afite n'igikoresho bifashisha bapima uburwayi.

Umwangavu uri kuvoma amazi, munsi y'ijerekani yateretsemo amabase abiri, hirya hari imyenda yamaze gufura, iruhande rwe hari igiti ndetse hirya hari n'inyubako isakajwe amabati ashaje.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu cyumba, ubona ko bicaye bareba imbere, bisa naho hari icyo bakurikiye cyangwa se bari mu nama, imbere yabo hari nk’umuyobozi uri kubaganiriza ku bintu bitandukanye.

Umugabo usa naho afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye imyenda yacikaguritse kandi isa nabi, iruhande rwe naho hari imyanda, bigaragare ko afite ikibazo gikomeye cyane, agomba kwitabwaho.

Abantu bicaye mu cyumba bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'umutuku n'umuhondo, harimo abambaye imipira y'umukara, bigaragare ko bari mu nama kuko bahanze amaso imbere hari icyo bari kwigaho.

Umugabo wunamye wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara akaba yunamye ,yunamiye abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w' igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane.

Abantu benshi bicaye ahantu ku ntebe, bamwe bambaye amabaje y'akazi, umugore wicaye imbere yabo yambaye ikanzu y'umweru, imbere ye hateretse uducupa tw'amazi.

Abantu batandukanye, ndabonamo umukecuru ukuze cyane, abana batoya bicaye, bose barangariye imbere, bisa n'aho hari ikintu bari kureba cyangwa se umuntu.

Umwana w'umukobwa ndetse n'undi umuri iruhande, uyu umukobwa asa naho afite ikibazo kuko yifashe mu mutwe, uri ku ruhande rwe ari kumuhumuriza.

Umugabo wambaye imyambaro isa nabi, arashaka kwicara hasi mu mukungugu, bisa naho afite ikibazo cyo mu mutwe. Hirya ye hari umugabo ufite igare akaba aryicayeho.

Umusore wicaye ahantu yigunze, yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara, asa n'aho afite ikibazo cyo mu mutwe akaba yicaye ahantu hasa nabi.

Umugabo wicaye yifashe ku gahanga bisa n'aho afite uburwayi bwo mu mutwe, aziritse amaguru akaba yicaye ku kirago, iruhande rwe hakaba hari n'ishuka.

Abantu benshi batandukanye, harimo abambaye imipira y'ubururu, harimo uwo hagati umusore wambaye ishati na karuvati, ku ruhande hari umuzungu bose barahagaze barimo baraseka.

Abantu bicaye ku ntebe y'urubaho, harimo abagore n'abagabo ubona ko hari ingingo runaka bari kuganirirwa n'umukobwa ubicaye hagati, ubona ko bari ahantu mu cyaro.

Abantu batandukanye ubona ko bari mu cyumba cy'inama, hari umugore ubahagaze imbere usa naho ari kubabwira imbwirwaruhame, inyuma ye hari abandi bantu nabo bicaye bareba imbere, ku meza y'abo bantu hateretse uducupa tw'amazi.

Umugabo wegamye ku gikuta, asa n'uri gutekereza ibintu bitandukanye ndetse afite ikibazo, yambaye ishati ndende, igikuta yegamyeho gisize irangi ry'umweru.

Uruziga ruri mu mabara atandukanye hasa n'ashushanyijeho abantu n'imitwe munsi hari amagambo yanditse mu mpine, munsi hakaba n'andi ayasobanura avuga ngo rwanda mento herifu.

Umugabo wambaye ingofero usa n'uhetse igikapu, yubitse umutwe asa naho afite ikibazo, yambaye isaha, yambaye ikote riri mu bwoko bw'ikoboyi.

Abana benshi cyane, ubona ko harimo abishimye, barimo baraseka. Bamwe bari no gukoma mu mashyi, abandi bari kureba imbere. Ikindi kandi, bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi batandukanye, bahagaze bafite utwapa mu ntoki, ndabonamo n'umuzungu umwe, babiri, umuzungu umwe yambaye umupira w'umukara wanditseho Rwanda, inyuma yabo hari icyapa.

Abakobwa babiri basa n'abari kuganira, umwe afite agakinisho k'ingwe mu biganza bye, imbere yabo hateretse n'akandi kayetajeri karimo ibishushanyo by'abantu, uwambaye umupira w'umukara asa n'uri kuganiriza uwambaye ikanzu iri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Abantu bari mu cyumba, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi, asa n'aho ari kubabwira ijambo cyangwa se ari kubakoresha inama, imbere y'abo badamu bicaye hari uducupa tw'amazi ndetse n'amatelefone yabo.

Abana benshi batandukanye ubonako bose basetse bicaye ahantu mu cyumba abari inyuma barahagaze buri umwe afite umubare gatatu ndabona ariyo yiganje.

Umugore usa naho afite uburwayi bwo mu mutwe, yicaye ku musambi akaguru ke kamwe kaziritse n'umunyururu, inyuma ye hari ibiti birebire.

Abantu benshi batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo, hagati yabo hari umu porisi wambaye impuzankano y'akazi, inyuma yabo hari ibyapa biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku byanditseho n'amagambo.

Umugore ufashe indangururamajwi, hepfo ye hari umugabo wambaye agapfukamunwa, imbere ye hateretse agacupa k'amazi, inyuma yabo hari ibyapa bitandukanye byanditseho RBS, bisa n'aho bari gutambutsa ijambo ku bantu.

Umugore usa n'ufite ubumuga bwo mu mutwe, yambaye imyambaro ubona ko ishaje cyane, yicaye ku muhanda, afite n'ibyatsi mu ntoki ndetse n'ishashi, impande ye hari ibicupa by'amazi.

Umugabo uhagaze imbere y'abandi bicaye ku ntebe asa naho ari gutanga imbwirwaruhame, abagira inama cyangwa se hari ibitekerezo abungura kugira ngo nabo bagire ubumenyi bahavana, bari kwiga, mu bigaragara bari kwiga ku bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe y'urubaho, bisa nk'aho hari ibyo bari kuganira, hagati hari umugore ufite ikayi mu ntoki ndetse n'ikaramu inyuma y'aho hari ibiti birimo n'insina.

Abantu benshi batandukanye b'urubyiruko harimo abakobwa n'abasore bafashe icyapa mu ntoki zabo cyanditseho amagambo agiye atandukanye ariho ku cy'umweru tariki makumyabiri nimwe z'ukwa cumi na kumwe mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Aha bisa n'aho ari mu cyumba cy'inama, ubona ko harimo abantu bicaye imbere ndetse n'abandi bicaye mu ntebe z'umukara, hejuru y'aho hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo wodi mento helefu deyi, icyapa kiba cyanditseho arabisi.

Umugabo ugaragara nk'umusazi, ufite imisatsi y'umukara, yambaye imyambaro yacitse ku maguru ndetse afite n'ibindi bintu mu ntoki, ari kugenda mu muhanda.

Ikimodoka kinini cy'igikamyo ubona ko cyikoreye imizigo, kiri mu ibara ry'umweru amapine asa umukara kikaba gikorera mu bitaro byita ku mutwe cyo muri Bugesera

Umwari ubona ko wishimye cyane, afite uruhu rwirabura, afite umusatsi wirabura, yambaye agakoti k'umutuku, imbere harimo undi mwenda uri mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi batandukanye, harimo abambaye imyenda y'umukara, harimo abambaye amakote, bicaye ku ntebe, abandi barahagaze, inyuma yabo hari icyapa kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, muri make bari kwiga nko ku ngingo y'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugabo w'umuzungu uhagaze imbere y'icyapa cyanditseho ibitaro by'i Ndera byitwa karayezi Ndera ni ibitaro bijyanwaho abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu bicaye mu mahema, iruhande rwabo hari intebe zigerekeranye, hari n'umugabo wambaye agapfukamunwa, uhagaze, wambaye, ikote ry'umukara, hari n'abandi bicaye begeranye basa n'aho bari guhabwa serivise n'ababari iruhande.

Abantu benshi batandukanye, ndabona umuzungu, ndabona n'abandi benshi bafite ibyapa bisa naho barimo baratera ibiti muri gahunda ya leta.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, icyi cyapa ndetse cyiri mu ibara ry'umutuku hejuru umweru, cyanditseho amagambo avuga ngo "Child and Adolescent Mental Health", bivuga ubuvuzi bwibanda ku bana ndetse n'abangavu.

Umugabo ufite amenyo meza cyane y'urwererane, afite akadodo yashyize mu menyo ye, ari gupima ko amenyo ye akomeye cyane.

Abaganga babiri, ubona ko bari gusuzuma umurwayi uryamye ku gitanda, abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse uw'umugore we yiteze n'agatambaro cyangwa se akagofero k'ubururu mu mutwe.

Umusore mukuru ndetse n'umwana muto, bambaye imipira y'umweru, bashyize akadodo ku menyo yabo basa n'abari kugaragaza ko akomeye cyangwa se asa neza.

Igishushanyo kigaragaraho amenyo agize ikiremwamuntu, aya menyo amwe ari mu ibara ry'umweru andi mu ibara ry'umukara. Iki gishushanyo gisa nk'aho ari igikanka cyangwa sikeretoni mu ndimi z'amahanga.

Umusore ufite amenyo y'urwererane asa neza asa umweru, yashyize akadodo hagati y'amenyo ye ari kureba ko akomeye cyane, umusore akaba afite n'utwanwa dukeya.

Abagore babiri, umwe yambaye rinete kandi afite imisatsi miremire, yambaye ikote ry'ubururu, undi umwegereye na we yambaye ikote ry'umutuku, mu biganza byabo bafite amakaramu n'impapuro.

Umukobwa uhagaze uri guseka ndetse n'abana batandukanye, bose bamanitse korogate cyangwa se umuti w'amenyo, bayimanitse hejuru ubona ko basa n'abari kwamamaza uyu muti uvura amenyo.

Umusore uryamye ku gitanda, asa n'aho arwaye amenyo arasamye, umuganga wambaye agapfukamunwa afite n'ibikoresho mu ntoki wambaye na ga, yabishyize mu kanwa kugira ngo abashe kuba yamufasha mu kibazo ashobora kuba afite, cyangwa se amusuzume.

Umuganga wambaye itaburiya ndetse na karuvati, yambaye n'agapfukamunwa, yashyize igikoresho mu kanwa k'umugabo, arimo aramuvura iryinyo rishobore kuba rifite ikibazo.

Umusore wafunguye umunwa, ufashe akadodo mu ntoki, yagakojeje no mu menyo kugira ngo asuzume nimba amenyo ye nta kibazo afite na kimwe.

Umwana w'umukobwa wasamye, umuganga wambaye uturindantoki asa nuri kumupima mu kanwa ngo arebe ikibazo cyaba kirimo kugira ngo abe yamuha ubufasha.

Umusore ufite amenyo y'urwererane arasetse cyane arishimye yambaye umupira w'umweru, afite akadodo ari gukoza ku menyo kugira ngo arebe cyangwa asuzume niba amenyo ye akomeye.

Umugabo uri guseka inyuma ye hari ibara ry'umuhondo yambaye umupira uri mw'ibara ry'umweru afite ibitwanwa duke ndetse n'agasatsi gake.

Umuntu cyase umuganga wambaye akarindantoki, ufite igishushanyo cyo mu kanwa kiriho amenyo, afite n'igikoresho bifashisha bakura amenyo, yambaye n'impuzankano y'akazi.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umweru yambaye n'agapfukamunwa ndetse n'amarinete amurinda asa nk'uri gusuzuma ko imiti ye ikora neza, hari ibikoresho bitandukanye bifashisha.

Ni icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe, harimo n'ibindi byuma ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo.

Umukobwa ufite imisatsi wambaye isengeri y'umweru, ari kwiborosa kuko afite u uroso mu kanwa, abona ko amenyo ye akeye ahora ayakorera isuku.

Iryinyo bamaze gukura ubona ko rifashwe n'igikoresho bifashisha barikuramo, aho bakuye iryinyo na ho hasigaye umwobo munini cyane.

Umugabo ndetse n'umukobwa umugabo ubona ko a ukuzemo cyane yambaye umupira w'ubururu n ikabutura y'umukara, asa n'uri gukora siporo cyangwa se ari gusindagizwa n'uyu mukobwa wambaye imyenda y'umukara.

Umugabo ndetse n'umugore basa n'abakuze, umugabo akaba afite ibinini mu ntoki agiye kunywa, imbere ye hateretse n'ikirahure cy'amazi, uwo mugore ari kumwereka urupapuro, bigaragare ko hariho uko imiti agomba kuyifata.

Umugabo wambaye amarinete usa naho akuze cyane, iruhande rwewi hari umusore barimo barasoma igitabo barishimye cyane, imbere yabo hari ibikombe bibiri biri mu ibara ry'umweru.

Umugabo ndetse n'umugore ubona ko bakuze, imbere yabo hari ikirahure kirimo amazi giteretse ku meza. Umugore afite urupapuro umugabo afite telefone bisa naho aribyo ari kwereka umugore bicaranye.

Umusaza wambaye rinete ufite imvi, ari kumwe n'umugore, bose bafashe urupapuro, imbere yabo hari n'izindi mpapuro, bicaye ku ntebe bashyize ibiganza byabo ku meza.

Abagore babiri ubona ko bafatanye ibiganza, gusa umwe uri hirya wambaye impuzankano y'ubururu afite n'igikoresho bifashisha kwa muganga, akaba ari umuzungu.

Umuganga ubona ko asa n'uri kuganiriza umusaza, bicaye ku ntebe bari mu cyumba ahantu hari hasa ibara ry'umweru ubona ko umusaza yishimiye inama ari guhabwa na muganga.

Abantu babiri b'abagore ariko ubona ko umwe akuze cyane, yambaye n'amarinete, bari mu gikoni, bari gutunganya amafunguro yo kurya, harimo inyanya, harimo imboga, harimo urusenda rwa pilipili ndetse na puwavuro.

Umusaza ndetse n'umukecuru ubona ko bakuzemo bafite imvi, umusaza afashe telefone ari kurebamo, imbere yabo bateretse ikirahuri cy'amazi, ndetse uwo mukecuru akaba afite igipapuro.

Umugabo wambaye amarinete usa n'ukuzemo, yifashe ku kananwa, afite n'ikaramu arimo arasoma anandika mu ikayi iri imbere ye.

Ababyeyi babiri ubona ko bakuze cyane, iruhande rwabo hari abandi bantu bari kugenda mu muhanda w'igitaka, aba babyeyi barakenyeye kandi barasa neza, bafashe utubando mu maboko.

Abagore batatu bose bari guseka ubona ko bishimye, babiri bafite amakarita mu ntoki, amaboko yabo afashe ku meza, bari mu nzu isize amarangi y''umweru.

Umugore uhagaze ufashe ikirahure mu ntoki uri gusukamo ji, umusaza uri iruhande rwe ari kumwitegereza, iruhande rwabo hateretse isahani iriho imbuto zitandukanye.

Umubyeyi usa n'ukuze nkuko bigaragara afite imvi mu mutwe we, umwana umufashe mu kiganza w’umukobwa, bisa naho yishimye kandi ari kuganira.

Umugore ndetse n'umukobwa bafashe ibiganza byabo babihurije mu gituza cy'umugore, urabona ko bose bishimye umugore aricaye umukobwa arahagaze.

Umubyeyi mu bigaragara arakuze, yambaye ikote ririmo ibara ry'umutuku n'umukara, mo imbere harimo umupira w'umweru, afite dukoresho mu ntoki bifashisha bakora siporo cyangwa se bagorora amaboko.

Umugabo ubona ko akuzemo, afite ubwanwa bwajemo imvi, afashe ku mugozi w'umuhondo ndetse n'undi uri kumufasha, mu bigaragara uyu mugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri ijyanye n'amaboko.

Umugore usa n'ukuzemo, ufite imisatsi y'imvi, umukobwa nawe ufite imisatsi y'umukara miremire, yambaye n'agapira k'iroza ari gufasha uyu mugore gukora imyitozo y'amaboko, afashe icyuma ikiganza cye kimwe.

Abantu benshi batandukanye bicaye ahantu munsi y'ihema, umugore wambaye ijire abagaze imbere asa naho hari ibyo ari kugenda abahereza.

Umugore wambaye amaherena ubona ko nta musatsi afite ku kumutwe, afashe ikirahure cy'amazi afite n'ibinini mu ntoki bigaragara ko ashaka kunywa iyi miti kugira ngo imufashe kumuvura.

Abantu bari mu murima w'icyayi, ubona ko bari kugisoroma, icyayi kirasa neza kandi kireze neza.

Umugabo wifashe ku gahanga afite ivi asa naho afite ikibazo cyangwa se yari kubabara umutwe, i ruhande rwe hari ikirahure kirimo amazi ari gusoma kuko afite amakaye ateretse imbere ye ku meza.

Umusaza usa n'ukuze ufite imvi mu bwanwa bwe, muganga ari kunywereza imiti kugirango abashe kuyinywesha amazi ari mu kirahure afashe mukiganza.

Umugabo ndetse n'umugore ubona ko bose bishimye cyane bari kurebana, bari guseka, barimo kurya, imbere yabo ikirahure kirimo amazi ndetse n'amasahani ariho ibyo kurya bitandukanye.

Umugabo yifashe mu ruhanga, afite imvi gusa urabona ko afite ikibazo mu mutwe, ashobora kuba arwaye umutwe, imbere ye hatetse ikirahure cy'amazi ndetse n'amakayi ateretse ku meza ndetse n'igikoresho cyifashishwa kuri mudasobwa bita mawuse.

Umusaza wambaye ingofero, n'ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, ufatanye ku rutugu n'undi mugabo umusumbaho, bari kugenda mu muhanda, inyuma yabo hari ibiti.

Umugore ndetse n'umukobwa bari kugenda mu muhanda, hirya yaho hari ibiti birebire, hari n'indabo ziri mu ibara ry'umuhondo, umugore yiteze igitambaro cy'umutuku, umukobwa nawe afite imisatsi miremire, bose barishimye mu bigaragara.

Umugore usa n'ukuze afite ikirahure mu ntoki, imbere ye hari ameza ateretseho akandi gakoresho k'umuhondo, muganga ari kumuhereza ikinini kugira ngo agifate, umuganga yambaye umwenda w'ubururu.

Abantu batandukanye gusa abagaragara ni abakecuru barakuze, bamwe biteza ibitambaro, abandi urabona ko bafite imvi bicaye ku ntebe z'umweru, bari kureba imbere bisa n'aho hari ikintu bahugiyeho bari kureba.

Umubyeyi wambaye amarinete ufite imisatsi imanuye y'umukara, yambaye ishati y'umuhondo, afite agacupa ari gukuramo imiti bigaragare ko agiye kuyinywa cyangwa se hari uwo agiye kuyishyira.

Umugabo ndetse n'umugore bari kurya, urabona ko bakuze cyane, bari kurebana mu maso, barishimanye cyane, imbere yabo hateretse ikirahure kirimo amazi, bose bafite ibiyiko by'amakanya mu ntoki. Mu biryo bari kurya harimo n'imboga.

Umusaza ufite imvi wambaye rinete yambaye na ekuteri mu matwi, afite udukoresho mu biganza bye bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri ijyanye n'amaboko.

Umugabo ukuze ndetse n'abana babiri bafite ibyo bari kurya mu ntoki, uyu mugabo afite imvi haba mu mutwe ndetse no ku bwanwa, abana nabo harimo ufite akabido bigaragare ko harimo amata ari kunywesha icyo ari kurya.

Abagore babiri, umwe afashe agatambaro k'umutuku bisa naho ari gukora siporo, undi nawe umuhagaze iruhande ari kumwunganira, umwe akaba yicaye ku gitanda.

Abagore batatu ubona ko bakuze, babiri bambaye imipira y'umweru, uwo hagati yambaye umupira w'umuhondo, afite na telefone basa naho bari kwifata serifi.

Abantu benshi batandukanye bicaye ahantu mu cyumba, bisa naho bafite ibikoresho byo kuha ndetse hirya hari n'undi wamaze kuboha, bambaye bamwe bambaye ingofero z'abayisiramu.

Umugabo usa n'ukuzemo, ateruye umwana, umwana akaba afite agapupe mu ntoki, bisa n'aho bishimye, umugabo yambaye ishati irimo uturongo ndetse n'umwana na we yambaye ishati na yo irimo imirongo.

Abantu batatu, babiri muri bo bambaye amarinete, umwe wo hagati afite telefone, asa n'aho hari icyo bari kubereka, bose barangariye muri iyo telefone.

Umugabo usa n'ukuze cyane ufite imvi, afite isahani iriho ibiryo, afashe ikiyiko mu ntoki ndetse iyo ndyo, irimo ifiriti ndetse n'imboga.

Umugabo n'umugore ubona ko bishimye cyane bari guseka, bose bafatanye ku rutugu, umugore yiteze igitambaro cy'umutuku yambaye n'ikote rijya gusa ubururu, umugabo na we yambaye ikote ry'umukara.

Abantu benshi batandukanye ndabonamo abazungu ndetse n'abirabura ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore, inyuma yaho hari icyapa bahagaze batonze umurongo neza, inyuma yabo hari imodoka ndetse muri bo harimo n'umuntu ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'icyatsi.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'ubururu ndetse na karuvati. Bahanye imikono, bafite ibitabo mu ntoki bisa naho hari ibyo bamaze kumvikana.

RBC ikigo cyita ku buzima bw'abantu gikorera mu gihugu cy'u Rwanda munsi handitseho amagambo avuga ngo guidelines for HIV prevention treatment and care in in Rwanda.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo famili pulaningi maketi ripori, akaba yanditse mu ibara ry'umweru ndetse aho yanditse akaba ari ibara ry'ubururu, munsi hari umubare icumi bigaragara ko ari imyaka icumi ikigo kimaze.

Icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, amagambo akaba avuga ngo twirinde indwara y'ubushita bw'inkende.

Amoko y'imbuto atandukanye karoti, inyanya, sereri, ibitunguru, ifiriti n'ibindi byinshi cyane bigira intungamubiri ku buzima bw'ikiremwamuntu, biri mu dusorori cyangwa se udusahane.

Umugabo n'umugore bose bambaye udupfukamunwa, umugabo ubona ko ari umuganga wambaye ijire y'icyatsi, afite urushinge arimo arakingira uwo mugore, uwo mugore nawe we yambaye ishati y'ubururu.

Aha nkuko bigaragara ni mu bitaro ubona ko hari mudasobwa cyangwa se imashini byifashishwa basuzuma uko umurwayi ameze abaganga bambaye udupfukamunwa bari kuvura umurwayi uryamye ku gitanda.

Abantu benshi bicaye ahantu mu cyumba cy'inama harimo abagabo ndetse n'abagore bamwe bambaye amakoti, abandi bambaye amakanzu, icyumba barimo kirimo amabara atandukanye umuhondo ndetse n'umutuku n'umweru mu bigaragara basa nk'abari mu nama.

Umuganga wambaye agapfukamunwa yakamanuye, yambaye impuzankano iri mw’ibara ry'umweru, igikoresho yifashisha apima uko umuntu ameze, yafunze igipfunsi, iruhande rwe hari icyapa cyanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo”Powering healthcare in Rwanda”.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo cancer care in Rwanda ndetse n'andi magambo ari munsi avuga ngo saving lives and redefining what’s possible.

Abantu batandukanye harimo abazungu, harimo n'abirabura, inyuma yabo hari icyapa abo bantu bakaba bambaye baje zigaragaza icyo bakora ndetse n'inshingano zabo.

Abaganga bane ubona ko bose bahugiye ku murwayi urembye cyane, umwe yamushyize igikoresho kimusuzuma mu kanwa, bose bambaye udupfukamunwa, iruhande rwabo hari imashini bifashisha mu buvuzi.

Abantu benshi batandukanye ubona ko ari benshi cyane, bafashe icyapa cya RBC cyanditseho avuga ngo rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda, irinde virusi itera sida ipimishije uyu munsi.

Umugabo uri gusuhuzanya n'umumansera, hejuru y'abo hari ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, uyu mugabo akaba akorera minisiteri y'ubuzima.

Abaganga ubona ko bambaye impuzankano y'akazi, umubare wabo bose hamwe ni umwe, babiri, bitatu, bane, batanu, batandatu, barindwi.

Icyapa kiriho abagabo babiri gishushanyijeho ikarita y'isi mu ruziga rw'ikizeru handitseho amagambo avuga ngo hilifu keya, bigaragare ko bita ku buzima bw'abantu.

Aha ni kwa muganga muganga wambaye uturindantoki mu biganza bye ndetse n'impuzankano y'akazi, ufashe urukingo uri gukingira umusore wicaye mu ntebe.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo ibikoresho bitandukanye, abantu bifashisha bari muri icyo gikorwa cyo gukora iyo myitozo hirya hari ubusitani.

Umugabo uhagaze imbere y'abaturage benshi bicaye ku ntebe z'urubaho, yambaye ikote ry'umukara, imbere harimo ishati y'umweru, hirya ye hari n'abandi bicaye babiri.

Abantu benshi bateraniye ahantu, bicaye ku ntebe ziri mu mabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru hasi, imbere ya bo hari uducupa tw'amazi bamwe bambaye imipira y'umuhondo, abandi icyatsi, inyuma hariyo n'undi mugabo wambaye umupira w'umweru.

Umugabo wicaye ku ntebe, imbere ye akaba afite mudasobwa ndetse n'indi mudasobwa nini ari kureberaho, ubushakashatsi bwe arimo arakora, yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu.

Inyubako y'igorofa igeretse, isakaje amabati y'umutuku ndetse n'irangi ry'umutuku. Ikikijwe n'ubusitani butarakura neza, ku ruhande hari n'ifoto, irya hirya hatuye andi mazu atagaragara neza.

Ibyicungo biriho iminyururu ibyicungo biri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi abana bakunda kubyicungaho. Hirya yaho hari amazu menshi ndetse n'ibiti.

Inzu cyangwa se ivuriro mbona ko harimo abaganga bambaye impuzankano y'akazi, abarwayi barembeye ku bitanda, iyo nzu irimo amarido y'ubururu ndetse n'amatara ari kwaka.

Inzu iri mu mabara yenda gusa umuhondo, igizwe n'amadirishya ndetse imbere harimo ibikoresho bitandukanye, iruhande hagaragara amatara ndetse no hejuru, hari n'akandi gakoresho kari mu mabara y'umutuku.

Ni kwa muganga aho abarwayi bajya gufatira imiti cyangwa se inama ku ndwara baba barwaye. Ndabona umugore uryamye ku gitanda ndetse bamushyizemo serumu.

Ibi ni ibitaro ubona ko iki ari icyumba kimwe kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, harimo n'imashini ifasha mu gusuzuma abarwayi, harimo ibishushanyo by'amaso, harimo udupurizo turi mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Isange wani sitopu senta, ikigo gishinzwe kurwanya ihohoterwa, amagambo ari munsi aravuga ngo aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Umugabo usa n'urwaye yambaye agapfukamunwa ku maboko ye hafatiyeho serumu bigaragare ko arembye cyane ndetse muri icyo cyumba arimo harimo n'ibindi bikoresho bifasha abarwayi kumera neza.

Inyubako iri mu igorofa hanze yayo hari ipoto ririho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hanze harimo hari imodoka hari na moto hari n'ubusi iyi nyubako igaragara n'ibitaro.

Inyubako y'ibitaro iri mu mabara atandukanye icyatsi, umuhondo igiye ifite amatara ari kwaka hejuru, hari amagambo yanditseho avuga ngo nasi sitesheni.

Iki ni ikigo cyangwa se ibitaro byita ku buvuzi bwa kanseri mu Rwanda, bikaba bisize irangi ryenda gusa umuhondo ariko wijimye.

Iyi nyubako nk'uko bigaragara ni iy'ikigo cy'ubushakashatsi bw'imiti, isize amarangi y'umweru, isakajwe amabati atukura, iruhande rw'aho hakaba hari ubusitani ndetse n'umuhanda abantu bacamo.

Iyi ni sale nini cyane irimo intebe zitandukanye ziri mu ibara ry'umukara, imbere hari akabati cyangwa se igikoresho kiri mu ibara ry'umweru.

Aha ni kwa muganga ubona ko harimo ibikoresho bitandukanye, hari imashini yifashishwa mu gusuzuma, hari igitanda, hari amadirishya, hari ndetse n'igishushanyo kiriho indabo ku rukuta rwo hirya.

Aha ni kwa muganga mbona ko harimo ibitanda byinshi bitandukanye harimo abarwayi barembeye kuri ibyo bitanda n'abaganga bari kubafasha, hari n'undi wicaye ku kagare ibi bitaro bikaba bifite cyangwa se bisize ibara ry'umweru.

Iyi ni inzu icururizwamo imiti igiye itandukanye bakunze kwita mu ndimi z'amahanga pharmacy, iyi miti ikaba yifashishwa n'abarwayi batandukanye kugira ngo babashe kuba bakira indwara bafite.

Abantu benshi batandukanye basa naho baje kwa muganga, ndabona ijambo ryo mu Cyongereza ryanditseho ngo risepusheni, hari n'andi magambo yo mu ibara ry'umukara ndetse mu Kinyarwanda avuga ngo "aho bakirira abagana ikigo nderabuzima."

Abantu benshi bari mu muhanda icyapa kigaragaza ibitaro bya Ruhengeri byanditse mu mabara y'ubururu ndetse naho wabasanga mu karere ka Musanze.

Umugabo ndetse n'umuforomokazi, ubona ko bishimye bari kuganira, umugabo yambaye ishati y'umutuku ndetse n'amarinete, umuforomo na we yambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'umukara, ari gukoresha mudasobwa imbere ye bisa nk'aho ari amakuru ari gukusanya cyangwa se ashaka kumenya, hirya ye hari n'ibindi bikoresho na byo byifashishwa mu buvuzi.

Inzu y'amagorofa ikikijwe n'ibyatsi, ikirere gisa neza cyane kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, iyi nzu bisa naho ari ibitaro cyangwa se aho abarwayi bajya kwivuriza.

Ni mu bitaro ahari ibitanda abarwayi baryamaho, ibitanda bibiri biryamyeho abarwayi. Inzitiramubu zirazinzwe, angahe akaba ari ahatangirwa ubufasha ku baje barwaye indwara zitandukanye.

Inzu y'igorofa, yanditseho ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, hanze hari abantu hari n'ibiti bitandukanye biyikikije.

Ibitaro biherereye mu Karere ka Huye, Intara y'Amajyepfo, hanze ku marembo hari icyapa cyanditseho amagambo atagaragara neza, kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Inzu cyangwa se inyubako y'ibitaro, hanze hari amagambo yanditseho materinite inzu y'ababyeyi, aha niho ababyeyi batwite bajya kubyarira, ikaba isakajwe amabati y'ubururu.

Umugabo ndetse n'umugore bicaye ku ntebe, basa n'abarimo kuganira, umugabo agaragara nk'umuganga, kuko afite igikoresho abaganga bifashisha bapima uko umuntu ahagaze mu mubiri we.

Ibitaro cyangwa se ivuriro, ku marembo hariho icyapa cya RBC, cyanditseho amagambo, icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana, ayo magambo akaba yanditse mu ibara ry'ubururu.

Inzu y'igorofa igeretse hanze hakaba hari abantu benshi batandukanye ndetse n'ibyapa, ndabona amabendera atandukanye harimo n'iry'igihugu cy'u Rwanda, iyi nzu ikaba ari ibitaro by'umwami Faisal iherereye i Kigali.

Abagore babiri umwe ufashe umwana mu ntoki asa naho yabyaye, buri inyuma ye yambaye rinete ndetse n'ikanzu iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, bari mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo.

Umusore cyangwa se umugabo wambaye ingofero n'agapfukamunwa by'umukara, akaba aryamye ku gitanda, umuganga uri kumwitaho bigaragare ko uyu musore afite ikibazo cy'uburwayi. Umuganga na we asa naho yambaye agapfukawa ndetse yambaye n'impuzankano y'akazi.

Ibitaro bya CHUB biherereye mu karere ka Huye. biragaragara aha ni ku marembo hari n'icyapari kiri ku haranga cyanditseho Republic of Rwanda, Ministre of Health University Teaching Hospital of Butare.

Ibitaro ubona ko harimo icyuma kifashishwa mu gupima ubuzima bw'abantu, muganga urimo na we yambaye impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'umweru.

Inzu bigaragara nk'aho ari kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye biri mu mabara y'umweru n'utundi dukoresho dufatiyeho turi mu mabara y'umukara, hirya y'igikuta hari akabati.

Ikigo nderabuzima cyangwa se ibitaro ubona ko byubatse mu ingorofa, hanze hari abantu imbere harimo abaganga babiri n'undi muntu umwe ubahagaze iruhande n'amatara arimo araka imbere.

Abaganga bane bose bambaye udupfukamunwa, babiri bo ku mpande bambaye na baji z'akazi, inyubako bahagaze imbere ni ibitaro ahagana ku nzu y'ababyeyi.

Abantu benshi bisa n'aho ari abaganga bambaye amataburiya y'umweru, bamwe bicaye ku ruhande rwo hirya, abandi bicaye ku rwo hakuno bisa n'aho hari ibyo bari gusuzuma kugirango ngo barebe niba bikora, bamwe bambaye n'uturindantoki.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, ndabonamo insinga z'amashanyarazi, ndabonamo amatara ari kumurika, iyi nzu isa n'aho ari ibitaro ndabonamo n'umurwayi, usa n'aho agiye gucishwa mu cyuma kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Abantu benshi batandukanye harimo abazungu ndetse n'abirabura yifotoreje ku cyapa cyanditseho butalo hosipito.

Inzu y'amagorofa abiri, ku miryango aho binjirira hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, handitseho amagambo Head Office, bigaragara ko ari aho ikigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya amaraso y'abarwayi.

Ibi ni ibitaro cyangwa se inzu y'ababyeyi aha bakaba bajyanwayo igihe bagize ikibazo cyane cyane batwite akaba ariho bahererwa ubufasha.

Abantu batandukanye, abagabo ndetse n'abagore, ubona ko bameze nkaho ari ku bitaro, bagannye bajya gushaka uko bakivuza indwara mu gihe bumva batameze neza.

Mu bigaragara iyi ni inzu y'ubuvuzi irimo intebe ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru. Ku gikuta hari ibishushanyo, iyi nzu igizwe n'amakaro, hejuru isizwe mu ibara ry'umweru.

Ibitaro cyangwa aho babyarira ubona ko hari umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano urimo uraza amanuka, iyo nyubako ikaba iri mu ibara ry'umuhondo, amadirishya mu ibara ry'icyatsi.

Umuganga usa n'aho ari kwigisha umunyeshuri ibijyanye n'ubuvuzi bwo mu kanwa cyangwa se amenyo, abandi bantu bahagaze imbere na bo bari kureba uko icyo gikorwa kiri kugenda. Uwo muganga akaba yambaye itaburiya y'umweru.

Abantu bicaye ahantu muri sale ndetse n'izindi ntebe ziriho ubusa, iyi sale ikaba irimo amatara ari kwaka, harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye. Abicaye basa n'abari kureba inyakiramashusho iteretse imbere iri kunyuraho ibintu bitandukanye.

Aha nkuko bigaragara mu bitaro ubona ko harimo igitanda umurwayi aryamaho bamusuzuma harimo ibikoresho bitandukanye hari imashini yifashishwa mu gupima uko umuntu ahagaze ndetse n'ibindi.

Inzu icururizwamo imiti cyangwa se farumasi mu ndimi z'amahanga; hakaba harimo imiti y'amoko menshi agiye atandukanye, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'abantu zitandukanye.

Umurwayi wicaye ku gitanda, yambaye n'isengeri, yiteze n'agatambaro k'umukara mu mutwe, muganga akaba amubyukije kugira ngo amusuzume arebe amenye n'indwara arwaye.

Ibi ni ibitaro bya Nyanza nkuko bigaragara ku marembo, urupangu rwaho ruri mu mabara y'ubururu, ubona ko ku ruhande hari n'ikindi cyapa cyanditseho amagambo, imbere muri ibyo bitaro mu mbuga hari igiti kirekire.

Umwana uri mu kagare, bigaragare ko arimo arafata akazuba, aha hakaba ari kwa muganga, ku ruhande hakaba hari ikigega gifata amazi ndetse n'ubusitani bwiza cyane.

Aha ni kwa muganga harimo ibitanda abarwayi baryamaho igihe barwaye, hejuru hari inzitiramubu kandi hari n'amarido yo mu ibara ry'ubururu.

Inzu ebyiri zitandukanye z'amagorofa, ubona ko ziri ahantu heza cyane, zikikijwe n'ubusitani ndetse n'imihanda igenda inyuranamo.

Inzu nziza cyane y'igorofa umuryango ukinguye, urimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura abarwayi, iyi nzu ikaba yitwa farumasi mu ndimi z'amahanga.

Ibikoresho bisangwa kwa muganga, byifashishwa mu gupima uko umuntu ameze mu mubiri wose, harimo n'ibindi bikoresho, ndabonamo n'imashini yifashishwa bareba uko ubwo buzima bw'umuntu bumeze ndetse hejuru hari n'isaha, ku gisenge hari amatara ari kwaka.

Inyubako nziza cyane y'igorofa igeretse kabiri, hanze yayo hari imodoka, hari abantu batandukanye ndetse ku ruhande rw'iburyo hari aho abantu binjirira.

Ahantu hasa neza cyane hari inyubako itageretse, hari n'izindi zigeretse hanze hari ubusitani hari abantu batandukanye, hari n'igiti kirekire bisa naho ari ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro.

Ibitaro bya Kaminuza nkuru y'u Rwanda iherereye mu karere ka Huye i Butare byitwa CHUB, biragaragaraho amazu ageretse ndetse n'andi atageretse.

Umuhanda ugizwe n'amapave ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'ubusitani, abantu bari kugendamo, imbere hari inyubako nziza cyane na yo ubona ko ku ruhande hariyo abantu benshi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, ndi kubona igikoresho gitanga umwuka wo guhumeka ku barwayi cyifashishwa kwa muganga ndetse n'ibindi, igikoresho kiri mu ibara ry'ubururu.

Ahantu mu biro ubona ko hasa neza hari intebe, hari ameza ateretseho mudasobwa, hari akabati ndetse hakurya ku gikuta hari ifoto iriho abagore babiri.

Inyubako isize irangi ry'mweru, imbere harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri, aha ngaha abantu bakaba bahaza kugira ngo bagorore imibiri yabo.

Inyubako y'ibitaro, isize amarangi y'umweru hasi umuhondo, imbere ibona ko harimo ibitanda by'abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Ni kwa muganga, mu cyumba kirimo umuganga ufashe akana ubona ko ari kukitaho, aribwo kakimara kuvuka. Yambaye uturindantoki, muri icyo cyumba kandi harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Iyi ni nzu irimo ibikoresho bitandukanye, bisa na ho ari kwa muganga, igizwe n'amapave hasi, isize irangi ry'umweru ku nkuta, harimo umutuku, harimo n'ubururu, harimo n'imashini zifashishwa basuzuma abantu.

Abakobwa bambaye udupfukamunwa, bambaye kandi impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, harimo umwe wambaye baji mu ijosi igaragaza icyo akora, hejuru yabo handitse ijambo rivuga ngo Legacy clinics.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye, irimo ibikoresho bifite amapine, harimo ibishushanyo bishushanyije ku bikuta, harimo amatara, harimo n'ibitanda mu bigaragara bisa naho ari inzu cyangwa se inyubako yo kwa muganga cyangwa mu bitaro.

Inzu nziza cyane ku rubaraza hari abantu batandukanye, ikaba ari inzu y'ababyeyi bajya kubyariramo isize ibara ry'umweru ifite n'inzugi zirimo ibirahure.

Inyubako nziza cyane yubatse igeretse kabiri ifite amabara y'ubururu n'umukara isakajwe amabati y'ubururu, hanze haparitse imodoka hari nabantu bahagaze.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima cya Kanyinya, imbere yayo hari ibendera cyangwa se idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda. Iyi nzu isakajwe amabati y'ubururu, nayo isize amarange y'umweru.

Mu nzu imbere kwa muganga harimo ibitanda by'abarwayi, muganga wambaye impuzankano y'akazi ndetse n'agapfukamunwa, inyuma ye hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi n'umweru kigaragaza aho binjirira ndetse n'abandi bantu bari gutambuka.

Ibitaro biherereye mu karere ka Nyarugenge, bigizwe n'inzu cyangwa se igorofa igeretse, hanze hari amapave ari mu ibara ryenda gusa umutuku.

Umukobwa uri kwigorora akaba afashe ku kirenge cye cy'ibumoso, ikirenge cye cy'iburyo yagihinnye. Ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Umugabo ufite umugozi w'umuhondo mu ntoki, umugozi ukaba wifashishwa mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri ijyanye n'amaboko, iruhande rwe hari umuganga cyangwa se umufasha ari kumufasha muri icyo gikorwa cya siporo.

Umukobwa ubona ko asa n'uvuye muri siporo ari kunywa amazi yambaye isengeri, amazi ni ingenzi mu buzima bwacu, uyu mukobwa afite n'imisatsi migufi yambaye amaherena.

Umusore wambaye isengeri, yifashe ku kaguru arimo arakagorora neza bigaragare ko ari gukora siporo, yambaye isaha y'umukara ndetse n'ipantaro, ikabutura yenda kuba igihogo.

Icupa ry'amazi ubona ko ryuzuyemo amazi kandi rifite umufuniko w'ubururu, iryo cupa riragaragara nkaho rikiri rishyashya.

Abantu benshi batandukanye ndabonamo umukobwa umwe, basa n'abari gukina agakino kajyanye no kwita ku murwayi bose bambaye impuzankano z'akazi.

Umusore uri kwigorora ukuboko kumwe yagushyize inyuma kurutugu bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye iseringeri iri mu ibara ry'umukara n'akarongo k'umutuku.

Umusore uteruye icyuma cya ariteri ari mu nzu irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri iyo myitozo yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro akaba afite ukuboko kunini ndetse n'igituza kinini.

Igikombe cy'ikirahure umuntu ufashe itase uri gusukamo amazi, amazi ni ubuzima kandi aradufasha kugira ngo tubeho neza, ni byiza kwihatira kunywa amazi kuko bifasha umubiri.

Umusore wambaye umupira uciye amaboko, afite igrude arimo aranywa amazi nk'uko tubizi amazi ni meza ku buzima bwacu ni ngombwa ko tuyanywa kugira ngo umubiri ubashe gukora neza.

Umusore ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara, yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara n'umweru, inkweto ziri mu ibara ry'umweru, yambaye na ekuteri ari kumva umuziki.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, ndabonamo uducupa tw'imiti, umukasi, udusanduka tubikwamo imiti, ibi kuko byifashishwa bapfuka abarwayi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umusore wicaye ahantu, yambaye isengeri y'umukara, afite icupa ry'amazi ari kunywa. Asa n'aho avuye muri siporo yicaye ari kuruhuka.

Aha ni kwa muganga ubonamo ibikoresho bitandukanye bifashisha bavura, umuganga ufashe igikoresho mu ntoki uri gusuzuma umwana uko ahagaze niba nta kibazo afite, umubyeyi umufashe nawe yambaye agakamoni.

Imetero yifashishwa mu gupima ironji, pome, umuneke, icyuma, icupa ry'amazi rirerire n'irindi inyuma, byose bikaba bifasha mu buzima bw'umuntu.

Amashusho y'ibikoresho bitandukanye, ibishushanyo by'abantu imikasi, amarinete, udukarito, imiti ivura ndetse n'ibindi bitandukanye nk'amayekuteri, ndabona hari byinshi kandi biri mu mabara atandukanye.

Imbuto zitandukanye ndetse n'imboga ndetse na ji, hakaba hagaragara irongi, pome ndetse n'imetero yifashishwa bapima, iri mu ibara ry'umuhondo iriho n'imibare yanditse mu mabara y'umukara.

Umwari mwiza cyane ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeriri mu ibara ry'umweru n'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, afite imisatsi miremire, iruhande rwe hari ibikoresho birimo indabo.

Umusore wicaye ku gitanda kwa muganga ubona ko yakomeretse ku kaguru, muganga akaba ari kumushyira igipfuko ku kaguru, ubona ko hasa neza cyane harakeye rwose.

Abantu benshi bagaragara kuri iyi foto uko bigaragara, bari kwerekana amoko atandukanye ya siporo, cyangwa se umukino ngororamubiri harimo basket, harimo cricket, harimo football, ndetse n'ibindi.

Umugabo ufite uruhu rwirabura ufite n'ubwanwa, akaba ari kunywa amazi mu gacupa k'umweru, ubona ko ayo mazi asa neza cyane.

Ni kwa muganga, mu cyumba kirimo igikoresho cyifashishwa mu gupima ubuzima bw'umuntu, aho bamushyiramo bakaza kumenya indwara arwaye.

Umukobwa wambaye isengeri iri mu ibara ry'icyatsi, afite umusatsi uboshye, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we ubashe kumera neza.

Akabogisi karimo imiti y'amoko agiye atandukanye, harimo imikasi, harimo ibipfuko, harimo n'indi miti itandukanye, aka kabogisi kakaba kari mu ibara ry'icyatsi cyijimye.

Umwana bisa naho afite imvune mu kaguru, umuntu uri kumushyiraho igipfuko, arasa n'uryamye ku gitanda kiri mu ibara ry'ubururu, iruhande rwe hakaba hari umukasi ndetse n'ibindi bipfuko.

Abantu bari gukora siporo zitandukanye cyangwa se imyitozo ngororamubiri itandukanye hari abari kwiruka, hari uwicaye ku ntebe yigorora, hari urambuye amaboko, hari abari gukina umupira w'maguru, hari abapfukamye, hari n'undi uri guterura icyuma mu kuboko.

Umuntu usa naho yagize ikibazo mu igufwa ryo mu ivi akaba afite itako ribyibushye akaba yambaye n’ikabutura y'umukara.

Imbago yifashishwa n'umuntu wagize ikibazo k'imvune, ikaba ikozwe mu byuma, ikaba igaragara neza kandi irasa neza.

Umusore wambaye isengeri iri mu ibara ry'umutuku imbere hariho imibare afashwe mu kiganza n'umugabo wambaye ijiri iri mu ibara ry'icyatsi inyuma ye hari n'undi mugore nawe wambaye ijiri nayo iri mu ibara ry’icyatsi.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yifashe mu rubavu, yambaye umupira ujya gusa umweru n'ikabutura y'umukara, akaguru ke k'iburyo yakamanitse ku cyuma kiri aho hafi.

Umusore ufite gurude mu ntoki urimo uranywa amazi, iyo gurude ikaba iri mu ibara ry'ubururu, amazi ni meza ni ingenzi niyo mpamvu tugomba kuyanywa kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga harimo uturindantoki, harimo uducupa tw'imiti harimo imiti basiga ku ruhu ndetse n'ibindi bitandukanye, ibi byose byifashishwa kwa muganga.

Umukinnyi uryamye hasi, ubona ko ashoboye kuba yagize ikibazo cy'imvune mu uvi, umuganga akaba azanye ibikoresho, hari ibyo kumwitaho, iruhande rwabo hari baro hirya yabo hari n'abandi bantu.

Imbuto zitandukanye, imineke, amaronji, pome, ibinyomoro, izi mbuto zikaba zifasha abantu cyane cyane abakunda gukora siporo, kugira ngo umubiri wabo urusheho kumera neza.

Umusore mu bigaragara ari gukora imyitozo ngororamubiri, yifashe mu ivi, akandi kaguru yagahinnye, yambaye ikabutura y'umukara, umupira na wo wererutse.

Bari kutugaragariza amafoto atandukanye agaragaza uburyo wagenda ukora siporo kugira ngo bifashe umubiri wawe kugororoka neza kandi ubashe kugira ubuzima bwiza, amaraso atembere mu mubiri, handitseho amagambo atandukanye hejuru arimo avuga ngo ''sitingi oru day''.

Iki ni igikoresho cyangwa se icyuma gifasha abantu mu gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane bijyanye no gukomeza inda, umubiri wo ku nda, ibyuma bifite aho bafata h'umukara, ndetse kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, cyanditseho amagambo avuga ngo sigisi paka.

Umukobwa uri gukora siporo, yahinye akaguru kamwe akandi kararambuye agafatishijeho amaboko, yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara.

Umugabo uri kunywa amazi mu gacupa, afite furari mu ijosi, yambaye umupira w'umukara afite n'ubwanwa ndetse umusatsi wiwe urogoshe neza.

Umusore ubona ko yakoze imyitozo, yambaye ekuteri ari kumva umuziki, afite n'agacupa k'amazi arimo aranywa, amazi ni ingenzi mu buzima bwacu, tujye tuyanywa buri munsi.

Umwana cyangwa se umukobwa w'umwari, ufite furari mu ijosi, akaboko ke gafashe igurude kari kunywa amazi. Amazi ni ingenzi, niyo mpamvu tugomba kuyanywa kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza.

Ubwoko bw'imbuto butandukanye, amagi, urusenda, inyanya, ibitunguru, ku ruhande hari ibikoresho byifashishwa muri siporo bigaragare ko, ari ibyo umuntu arya nyuma yo gukora siporo kugira ngo umubiri we umere neza.

Ni mu bitaro, ubonamo ibikoresho bitandukanye harimo utubati, harimo igitanda, bifashisha baryamishaho abarwayi ndetse iyi nyubako iri mu ibara ry'umweru.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga. Harimo imiti iri mu ducupa, harimo ibinini, harimo bandana, cyangwa se ibikoresho byifashishwa bapfuka umurwayi wakomeretse.

Inyubako cyangwa se icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri cyangwa se siporo, harimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibyo birukiraho, harimo ibyo baterura ndetse n'ibindi.

Ibiganza by'umuntu ubona ko bari kumushyiriraho ibipfuko ashobore kuba yakomeretse, umuntu uri kumushyiraho ibipfuko ku maboko ye haragaragaraho umupira uri mu ibara ry'umukara.

Umwari uri gukora imyitozo ngororamubiri amaboko yayafatishije ku kaguru kamwe, akandi kaguru akaba yagahinnye, yambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umweru.

Umukobwa wambaye isengeri, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, amanitse amaboko asa n'uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite imisatsi miremire, ari ahantu ubona ko ari hafi ku nkengero z'ikiyaga.

Umuntu uryamye ku gitanda wambaye inkweto bisa naho bari kumukorera masaje, umugabo uri kuyimukorera yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse n'imitako ku maboko ye.

Akarindantoki, uducupa tw'imiti, ibipfuko byifashishwa bapfuka abarwayi bakomeretse, imiti basiga ku ruhu ivura uruhu ndetse n'utundi dushashi bigaragare ko ari ibikoresho byifashishwa kwa muganga.

Iki ni icyapa, kigaragaza ko ari ibitaro bya gisirikare mu Rwanda, kikaba cyanditseho amagambo ari mu mabara agiye atandukanye, ndabonaho umuhondo, umukara, ubururu, n'icyatsi.

Abasore babiri, umwe aryamye ku gitanda, undi ari kumurambura akaguru ke k'ibumoso. Bigaragare ko ari kumukorera masaje, kugira ngo umubiri we utekane, kandi yumve neza. Umwe ni umwirabur, undi ni umuzungu.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye ubona ko harimo abasore bapfukamye imbere y'umuntu uryamye asa naho arwaye, arembye cyane.

Aka ni akagare kifashishwa n'abantu bafite ubumuga bw'ingingo, ashobora kuba yaravunitse akaguru, ashobora kuba afite ikibazo cy'amagufwa, aka kagare rero karamufasha kugira ngo abashe kuba yava ahantu hamwe ajya ahandi.

Umugabo wicaye ku ntebe, mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, imbere ye hari akabati, hejuru y'ako kabati yahateretse mudasobwa, ari kureberaho amashusho.

Amoko y'imbuto atandukanye urunyanya igitunguru ibishyimbo umuceri ndetse n'ibindi bikoresho birimo imigozi bifashisha basimbuka ndetse n'inkweto.

Umusore cyangwa se umugabo wishyize tatuwaje ku rutugu iri mu mabara y'ubururu n'umutuku, afite igituza kinini ubona ko yakoze siporo ihagije.

Imbuto zitandukanye ndabonamo amaronji, ndabonamo inanasi, umuneke, ubunyobwa ndabonamo imidari, ndabonamo ibinini bya amogisi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye ndetse n'indimu ku ruhande.

Umusore w'umuzungu wambaye ekuteri wifitiye na terefoni mu ntoki, ari kunywa amazi, yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, yicaye ku ma esikariye.

Umukobwa wambaye isengeri ndetse n'ekuteri mu matwi, afite ibisuko, yambaye isaha ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaboko ke kamwe gafashe inyuma akandi gafashe ku nkokora.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, amavi ye yayunamishije ndetse n'umugongo, amaboko ye afashe hasi kuri tapi, akaba yambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara. Afite n'imisatsi iboheye inyuma.

Umukobwa wambaye isengeri y'icyatsi, wambaye ipantaro y'ubururu bwererute ndetse n'inkweto, ari gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo, afashe ku kaguru k'inyuma, akandi kaboko kararekuye, kerekeje imbere.

Abantu babiri bambaye udusengeri ndetse n'amakabutura y'umukara, bose bari kwiruka abona ko bari mu gikorwa cya siporo, bafasheshi n'uducupa tw'amazi mu ntoki zabo.

Abantu benshi batandukanye ubona ko bashungereye abari kubyina hirya hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru bigaragara aba babyinnyi bari kubyinira mu kibuga cya basiketi. Hirya yabo hari insina nyinshi.

Umusore ndetse n'inkumi bari gukora siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri, umukobwa arahagaze umusore nawe aricaye ubona ko bari kunywa amazi bambaye amakabutura y'umukara gusa umukobwa we yambaye n'isengeri iri mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi bari mu cyumba bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, ku gikuta hari inyakiramashusho bari kureberaho umuntu, basa n'aho bakurikiye inama yo ku ikoranabuhanga.

Umugabo ufite ukuboko kinini, yambaye umupira w'icyatsi, asa n'uri kunywa amazi, afite ubwanwa. Amazi ni igenzi ku buzima bw'umuntu cyane cyane igihe wumva ufite icyaka.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi cyangwa se kwa muganga, harimo inshinge, harimo ibyuma bipima, harimo ibyuma bifata amaraso, harimo imikasi, harimo ibinini, harimo uducupa dutandukanye, harimo ga ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umwari wambaye isengeri ndetse n'ikabutura, ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo mu ndimi z'amahanga, akaba yifashe ku birenge bye yunamye.

Umuganga ari gushyira igipfuko cyangwa se bande ku kaguru k'umusore wambaye imyenda y'umukara, ubona ko yagize ikibazo cy'imvune mu kaguru, yambaye urukweto rumwe, muganga na we yambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, uyu musore na we yicaye ku gitanda.

Umuntu usa n'ufite ikibazo mu kaguru ke k'iburyo, ubona ko bagashyize mu byuma kugira ngo babashe kumwitaho, abandi bantu bari iruhande basa naho baje kumusura, uyu muntu waryamye ku gitanda.

Umugore w'umuzungu ndetse n'umumansera w'umwirabura, imbere yabo hari umwana wicaye uri guseka, hirya yaho hari abandi bantu, harimo n'undi wicaye, iruhande rwabo hari intebe ndetse n'ibitambaro biri mu mabara y'umuhondo, umweru n'ubururu.

Abagabo babiri basa naho bari gukina umukino w'amaboko umwe yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro yenda gusa umukara.

Umuforomokazi wambaye uturindantoki uri kwambara n'agapfukamunwa, afite igikoresho gifasha mu gupima umurwayi, imbere ye hateretse mudasobwa, hateretse amakayi ndetse n'ikaramu, inyuma ye hari igikuta kiri mu ibara ry'umweru.

Ni kwa muganga mu cyumba kirimo ibikoresho hifashishwa bapima uko umuntu ahagaze. Hakurya hari akabati kari mu ibara ry'umweru hari n'igikuta nacyo kigize ibara ry'umweru ndetse na purafo.

Icyapa kiriho umugabo uri kwiruka wambaye isengeri, yanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza, avuga ngo ofisho webusayiti ofu Rwanda atiletiki federeshoni.

Icupa ry'amazi, imetero ipima, ibikoresho byifashishwa muri siporo, imbuto zifashishwa mu kurya, pome ndetse n'ironji risa oranje.

Umusore ufite ukuboko kunini ubona ko yakoze imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo, akaba afite amazi arimo aranywa ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba kuyanywa.

Umukobwa wambaye ekoteri ari kumva umuziki, afite agacupa ari kunywa amazi, dukunze kwita igurude, kari mu mabara y'ubururu, yambaye isengeri nayo iri mu ibara ry'ubururu, afite n'imisatsi izirikiye inyuma.

Icyatsi gifite amababi maremare afatiye ku biti, ubona ko gisa n'umuti ukunda gukoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Amoko y'ibimera ari mu mabara agiye atandukanye; hari ibiri mu mabara y'umuhondo, amabara y'umutuku, amabara y'iroza, amabara y'icyatsi kibisi, ndetse n'ibiri mumabara y'ubururu, ibi byose bikaba byifashishwa mu buvuzi.

Imiti y'amoko atandukanye, imanitse kuri etajeri, umugore wambaye itaburiya, asa n'aho ariwe ucuruza iyi miti. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'abantu batandukanye, wayisanga muri farumasi.

Ibikombe by'ibirahure bibiri birimo amababi y'ibimera bisa naho ari umuti bari gukora kugira ngo bavure indwara zitandukanye.

Uducupa turi mu mabara atandukanye, ndabonamo ak'umuhondo, ak'umweru ndetse n'udukarito twose turimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ukuboko k'umuntu gufashe ku kimera kiri mu ibara ry'icyatsi, ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa riri mw’ibara ry'umweru n'umufuniko w'umweru inyuma hari igipapuro kiri mw’ibara ry'ubururu n'umweru handitseho amagambo atandukanye gusa agaragara ni forever arctic sea.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru udukarito dupfunyitse neza twanditseho amagambo, mu bigaragara iyi ni imiti yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Uducupa turi mu mabara atandukanye, harimo utw'umuhondo, utw'umweru, uturi mu ibara ry'ubururu, uducupa tukaba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi.

Hano hagaragara uducupa turi mu mabara y'umuhondo ndetse n'udukarito turi mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, bisa naho harimo imiti ifasha abarwayi igihe barembye.

Agacupa kari mu ibara ry'ubururu kanditseho n'amagambo atagaragara neza, iruhande hari indi shusho na yo ishushanyijeho igikakarubamba. Ibi byose bikaba ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara z'abantu.

Uducupa ndetse n'udukarito dutandukanye, twanditseho amagambo agiye atandukanye, uducupa tukaba turimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ibiti bitandukanye harimo ibifite indabo z'umweru, ibi biti bifite amabara y'icyatsi ndetse n'amashami ashamikiyeho, ibi ibiti kandi cyangwa se aya mababi yabyo bakaba yifashishwa mu buvuzi bw'imiti gakondo.

Icyapa kiriho umugabo, kikaba kiriho n'uducupa dutandukanye, kiyanditseho n'amagambo agiye atandukanye, mu ibara ry'ubururu, ndetse n'umutuku, utu ducupa turimo imiti, ndetse munsi hariho na nimero wahamagara, ugahabwa uyu muti ubaye uyishaka.

Udukarito dutandukanye, harimo n'inanasi iri inyuma, harimo ukarito dufite amabara atandukanye: umutuku, icyatsi, umweru, ubururu, mu bigaragara hano hari ibintu birimo byifashishwa mu buvuzi bivura abantu.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru n'umufuniko ni ibara ry'umweru inyuma hariho agapapuro kanditseho Forever Royal Jelly isa nkaho uyu wari umuti ushushanyijeho n’uruyuki inyuma.

Ikimera gifite amababi manini, ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, iruhande hari n'ibindi, bisa n'aho iki kimera cyegereye ubutaka, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, ivura abarwayi.

Aha baramamaza agacupa karimo umuti, banditseho amagambo ko uvura ikibazo cyo kurangiza vuba, gucika intege, biri mu mabara y'icyatsi.

Agacupa kari mw'ibara ry'umuhondo gapfundikije umufuniko w' umutuku kandiditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo foreva alo vera geri..

Ikimera gifite amababi maremare, ubona ko kifashishwa mu miti gakondo, iyi ngiyi ikunze gukoreshwa n'abaganga bavura abarwayi, ariko bakaba ari abaganga ba gakondo bayikoresha.

Uducupa dutandukanye turi mu mabara atandukanye, mo imbere harimo imiti nayo iri mu mabara atandukanye harimo iya oranje, harimo iy'umweru n'iy'umukara, ku ruhande hari n'utundi ducupa natwo turimo imiti ubona ko ari imiti y'ubuvuzi gakondo.

Abantu batandukanye, higanjemo abagabo bari mu karima k'ikimera bita igikakarubamba, bamwe bambaye imipira iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Ikimera kiri mu ibara ry'icyatsi, iki kimera bakaba bacyita umuravumba, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane inzoka zo mu nda.

Ibyatsi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bakora imiti ivura indwara zitandukanye, bifite amababi y'icyatsi kibisi.

Uducupa dutandukanye ndetse n'udukarito dutandukanye ishusho y'umuntu iri hirya mu bigaragara ko icupa ndetse n’udukarito birimo imiti yifashishwa mu kuvura bigakoreshwa n'abavuzi gakondo cyangwa se mu mafarumasi.

Amacupa atandukanye akozwe mu byuma, ubona ko arambitse ahantu, inyuma yayo hariho ibipapuro bigiye byanditseho amagambo atandukanye, bisa naho harimo imiti ivura cyangwa se ibindi bintu.

Uducupa dutandukanye, twanditseho amagambo agiye atandukanye, ndi kubonamo kamwe kanditseho umubare cumi n'umunani, utu ducupa tukaba turimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibiti biteretse ku gatanda hejuru, bikaba ari ibiti bikiri bitoya biteretse mu ndobo cyangwa se mu ibumba ribifasha gukura neza. Ibi biti bikaba byifashishwa mu buvuzi.

Ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, ipfunyitse mu dukarito, indi iri mu ducupa ubona ko ifite isuku cyane. Ivura indwara zitandukanye zibangamira ikiremwa muntu.

Uducupa dutandukanye harimo uturi mu ibara ry'umweru ari natwo twiganje, hari akari mu ibara ry'umuhondo, uducupa twose dusa n'uturimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amoko y'ibiti atandukanye, ndabona ibiti birebire, ndabona n'ibiri hasi, ndavuga ibyatsi, ibi bikaba bikunze kwifashishwa n'abavuzi gakondo bakora imiti yo guha abarwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Uducupa tunini turi mu ibara ry'umuhondo tubiri dufite imifuniko y'umutuku, akandi gacupa k'umweru kari ku ruhande gafite umufuniko w'umweru n'akandi ku ruhande rwa ruguru, utwo ducupa bigaragara nkaho turimo imiti yifashishwa mu kuvura.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru n'umufuniko wako ni umweru inyuma hariho amagambo na yo ari mu mabara y'umweru hashushanyijeho igishushanyo cy'umuntu munsi hari ijambo ryanditseho forever, aka gacupa kakaba gasa n’akarimo imiti gakondo.

Ubwoko bw'ibimera butandukanye ndabonaho n'umuntu ufashe ku giti, hari ibimera bifite indabo z'umuhondo, hari ibimera bisa n'ibyumye, ibi byose bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara abantu baba barwaye.

Icupa riri mu ibara ry'umukara n'umufuniko w'umweru, inyuma hari igipapuro cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'amahanga, avuga ngo Forever bee honey.

Ikimera cyifashishwa mu buvuzi bw'imiti gakondo, iki kimera kikaba gifite amababi manini ndetse n'amatoya iruhande rwacyo hari n'ibindi bimera bihari.

Ikimera gifite amababi manini ndetse n'amato, Iki kimera kikaba cyifashishwa mu gukora imiti ivura indwara, cyane cyane inzoka zo mu nda. Cyifashishwa n'abavuzi gakondo.

Umugabo ubona ko ari gusoroma imiti, ari mu ishyamba rinini ririmo ibiti bitandukanye, yambaye umupira w'umweru, akaba agaragara igice cyo hejuru gusa.

Ikimera cyo mu bwoko bw'umuravumba, ikigemera cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane izishingiye ku nzoka zo mu nda, kikaba gitoshye neza.

Uducupa turimo imiti itandukanye natwo turi mu mabara y'amabara atandukanye hanze yako ka etajeri hari umukobwa uri kureba muri telefone hakurya hari umuhanda.

Uducupa dutandukanye turi mu mabara atandukanye, utu ducupa mu bigaragara, turimo imiti, hanashushanyijeho ishusho y'umugore ufite ikamba ndetse n'imisatsi imanuye.

Imiti gakondo itandukanye, ubona ko iri mu mabara atandukanye, icyatsi, ubururu, umuhondo, umweru, umutuku, ubona ko iteretse ahantu heza kandi ifite isuku ihagije.

Umugore witeze igitambaro cy'umweru, afashe ku kimera kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bigaragare ko ashobora kuba ari gushaka umuti wo kujya kwifashisha.

Ibiti birebire ubona ko bifite amashami maremare, bikaba bifite n'amababi y'icyatsi ibi biti bimwe byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye cyane cyane inzoka zo mu nda.

Inzu irimo imiti y'amoko agiye atandukanye, irimo n'umugabo wambaye ingofero y'abayisilamu, mu bigaragara ibi biri kunyura kuri televiziyo kuko mu nguni y'iburyo hari ijambo RTV.

Agacupa gafunze neza gafungishijwe umufuniko w'umuhondo, kanditseho ijambo rivuga ngo "umuravumba". Uyu ni umuti w'umuravumba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Iki ni ikimera kiri mu ibara ry'icyatsi, iki kimera bacyita umusave, umusave ukunda gukoreshwa mu buryo butandukanye, haba mu buvuzi ndetse no mu kubona inkwi cyangwa se amakara.

Uducupa dufite imifuniko y'umutuku ndetse n'umweru, uducupa tukaba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo bavura abarwayi.

Igiti kirekire cyane gikikijwe n'ibindi biti ariko byo ubona ko ari bito bitewe n'ibyatsi bitoshye neza cyane, hejuru hari ikirere.

Icyapa kiriho agacupa, hariho n'amagambo yanditse, avuga ngo revive, igisubizo ku muryango, uyu muti ukaba uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ukumira indwara zifata porositate.

Ikiganza cy'umuntu ufashe ku kibabi cy'isombe, isombe akaba ari ikiribwa cyo mu bwoko bw'imboga gifite intungamubiri zitunga umubiri w'umuntu.

Amoko y'imbuto zitandukanye, izi mbuto zikaba zifashishwa mu gukora imiti ivura abantu, iyi miti yifashishwa n'abavuzi gakondo.

Uducupa turi mu mabara atandukanye, hari uturi mu ibara ry'umuhondo tubiri, hari n'utundi turi mu ibara ry'umweru. Hakaba harimo imiti yifashishwa mu kuvura indwaragiye zitandukanye.

Amoko y'ibimera bitandukanye, harimo ibifite indabo, harimo ibisa icyatsi, ibisa oranje, ibisa umutuku n'umukara, hari n'agakoresho kifashishwa bahonda ibimera kugira ngo bibashe gutanga umuti ufite ubuziranenge.

Icyatsi gifite ururabo rw'umweru ndetse harimo n'umuhondo, gifite amababi y'icyatsi kibisi, iki cyatsi kikaba gikunda kuzana ibishokoro iyo gikuze, kikaba cyifashishwa mu gutanga imiti.

Ikimera kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi kiri ahantu hijimye, gikenera kandi hifashishwa mu gukora imiti ivura abarwayi batandukanye ndetse n'indwara zitandukanye.

Ibimera bifite amababi y'icyatsi, bifite indabo z'umuhondo ndetse n'umutuku, ibi bimera kandi bikaba bikunze kwifashishwa mu buvuzi gakondo.

Agacupa kagizwe n'umufuniko w'umweru nako kari mu ibara ry'umweru, inyuma yako hariho igipapuro cyanditseho Forever bee pollen, aka gacupa mu bigaragara karimo imiti.

Umuti uvura indwara y'amibe uri mu gacupa gafite igifuniko kiriho ibara ry'umutuku, hariho amagambo yandikishijwe mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru.

Agakarito gafunze neza cyane ubona ko gasaneza kanditseho ijambo riri mu ibara ry'ubururu rivuga ngo choleduz.

Aka gacupa kari mu ibara ry'umweru, kagizwe n'umufuniko na wo uri mu ibara ry'umweru, inyuma handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, n'umukara agaragara, yanditse foreva vijoni, n'umubare mirongo itandatu.

Ibikoresho bitandukanye, ku ruhande hari agacupa kanditseho foreva burayiti karimo umuti, no ku rundi ruhande hari utundi dukoresho natwo turimo imiti yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Uducupa dutandukanye turi mu mabara atandukanye harimo, utw'umweru, utw'umukara, utw'umuhondo n'udufite imifuniko isa umuhondo umutuku icyatsi, mu bigaragara harimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara.

Uducupa dutandukanye, hari udufite imifuniko y'umutuku, hariu dufite imifuniko y'icyatsi, uducupa dushushanyijeho n'ishusho y'umuntu, mu bigaragara turimo imiti ivura.

Ni umugore ufashe ku cyatsi, hari n'ibindi byatsi bitandukanye, harimo n'insina, uyu mugore yambaye isharupe y'umweru, afite n'agakapu mu ntoki.

Igiti gifite amababi manini, bisa naho ari umuravumba, iki giti kikaba gikunze kwifashishwa bakora imiti gakondo.

Aha nk'uko bigaragara ni mu isoko harimo umugabo uri gucuruza imiti gakondo, hari ikoze mu bimera, hari iri mu ducupa, hirya hari imbuto ziteretse ku meza, inyuma hari n'abandi bantu.

Uducupa dutatu, tubiri muri two tukaba turi mu ibara ry'umweru, akandi kamwe kari mu ibara ry'umuhondo n'umufuniko w'umukara, mu bigaragara utu ducupa turimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.